Aba ni abantu bagera ku munani nk'uko bigaragara higanjemo abagabo benshi ndetse n'abadamu babiri, imbere ya buri umwe hateretse agacupa k'amazi barishimye ku maso yabo basa nkaho bari gukurikira ikiganiro.

Aba ni abantu batatu bicaye ku ntebe nziza z'umukara babiri muri bo ni abagore undi ni umugabo. Imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse bafite amakaramu mu ntoki bisa nkaho hari ibyo kwandika.

Aba ni abantu beza ubona basa nk'abakuze mu maso yabo higanjemo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, imbere kandi hari uducupa tw'amazi bicaye ku ntebe z'umukara zisa uko ari bose.

Aba n'abantu benshi ubona bicaye basa naho bari munama bamwe muribo bafite za murandasi imbere yabo basa nkabakuze abahagaze bari gufata amashusho ahantu heza cyane ubona hari intebe zisa.

Aba bantu ubarebye ku maso urabona ko bishimye, bari kuganira bambaye neza baracyeye. Imbere yabo hateretse agacupa k'amazi, urupapuro ndetse n'amaterefone yabo urabona neza ko wagira ngo bari mu nama.

Imbere yacu turahabona abagabo benshi bicaye ahantu bisa nk'aho baje mu nama, ni abagabo bakeye cyene, basokoje neza, bambaye amakote meza ndetse na karuvate , ikindi umwe muri bo yambaye isaha nziza cyane igezweho.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, higanjemo abari n'abategarugori ndetse n'abasore bose bambaye impuzankano zisa umuhondo; nk'uko bigaragara bari mu nama, bateze amatwi uri kugira ijambo abagezaho.

Ku ifoto yacu turahabona abadamu babiri bambaye neza cyane imyenda ijya gusa kubera ko bose bambaye umutuk, mo imbere umukara inyuma, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza Kigali yacu Kigali icyeye.

Abagabo bavanze n'abagore ubona ko bicaye ahantu mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tubiri, bamwe muri bo bafite amakaramu ndetse n'amakayi, ubona ko bakurikiye inama, nagushishikariza nawe kujya ujya mu nama ukamenya ibivugirwa muri izo nama.

Aba ni abantu benshi basa nkabakuze, ubarebye neza urabona ko bakeye cyane, bamwe muri bo bicaye mu ihema ry'umweru ndetse n'ubururu, iruhande rwabo hari ibiti birebire kandi binini bitanga umuyaga.

Ku ifoto yacu turahabona abantu benshi cyane bicaye bisa nkaho bari mu nama hejuru yabo hari umugabo uri gufata amashusho, icyumba bicayemo kirimo ibendera ry'igihugu cy' u Rwanda.

aba nabantu benshi ubona bicaye ahantu hamwe higanjemo ababyeyi gusa ndetse n'abagabo bakeya urabona ko bishimye kumaso yabo, rero nawe nakugira inama yo kujya ukurikira ibiganiro nkibi kubera ko birafasha.

Uyu ni umugore mwiza ubona usa nk'ukuze yamabaye ibintu by'umukara ndetse afite igikoresho kifashishwa mu kurangurura amajwi, amadarobindi ari ku maso ye umusatsi we urasokoje urabona ko akeye cyane.

Imbere yacu turahabona abantu beza cyane higanjemo abadamu ndetse n'abagabo, imbere yabo bose turahabona uducupa tw'amazi bisa nkaho bari mu nama, mu cyumba cyiza cyane cyagenewe gukoreramo inama.

Aba ni abantu benshi ubona bari ahantu heza bicaye bakurikiye ikintu kimwe, bamwe muribo bahagaze umusore wambaye ishati y'umukara ndetse n'umugore wambaye iy'ubururu ubona bari kuganira.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu nzu nziza mu nzu niza imbere y'imeza y'umweru hari amadarapo kandi y'ibihugu bitandukanye harimo u Rwanda. Hejuru yabo hahagaze akazi ubona ko ari gufata amashusho n'ibikoresho byabugenewe.

Imbere yacu turahabona abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bamwe urabona ko bicaye bishimye abandi bakaba bahagaze basa nkaho bari kwifotoza ubona ibyishimo byarenze mu maso yabo.

Aba ni abantu benshi ubona harimo umugabo wicaye wambaye amadarubindi n'ikote ry'umukara ishati y'umweru karuvati irimo uturongo tugiye dutandukanye ari kureba muri telefone ye.

Aba ni abari n' abategarugori bagera kuri bane bari imbere y' abandi bicaye ku ntebe z' umweru, barakeye barishimye ku maso yabo witegereje neza ni akanyamuneza gusa gusa.

Nk'uko bigaragara ku ifoto yacu turahabona abantu benshi cyane imbere yabo hateretswe ubucupa bubiri kamwe n'amazi akandi nakibiryohereye abagabo urabona ko mu maso yabo bishimye cyane ndetse harimo n'abagore muri bo.

Abantu benshi ubona bicaye ahantu hamwe batuje, barakeye babiri muri bo barahagaze, umwe kandi afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kugira ngo agere kubamukurikiye.

Aba ni abantu benshi ubona bicaye ahantu hamwe bisa n'aho bari mu nama barakeye imbere yabo hateretse ubucupa bw'amazi ku ruhande hari igitanga amashusho cyanditseho kigali yacu, kigali ikeye.

Aba bantu urebye neza ubona bakeye ku myambaro bambaye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi kuri buri umwe, ndetse urabona ko bishimye ku maso yabo, basa nk'abakurikiye ikiganiro kiri kubagezwaho.

Aba ni abantu benshi ubona ko bicaye ahantu hamwe hameze nko muri sitade bose bambaye impuzankano yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye amaso.

Aba ni abantu batatu, abagore babiri ndetse n'umugabo umwe basa nk'abakuze barishimye ku maso yabo bambaye neza barakeye imisatsi irasokoje, bari imbere ya za murandasi zikoresha ikoranabuhanga.

Aba ni abantu benshi bicaye batuje basa nkaho bari mu nama kubera ko bose hari aho berekeje amaso yabo, hejuru kandi hari amatara y'ubwoko bwose y'amabara agiye atandukanye.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe hakikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga amahumbezi, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'amadarobindi ubona asa nk'ufite ijambo ari kubagezaho.

Nk' uko bigaragara iki ni icyumba kiza kandi kinini ubona ko wagirango kiberamo inama zigiye zitandukanye, abakirimo bose ni abantu bakeye kandi ubona bishimye ku maso yabo barahuze cyane bari kureba mu materefone yabo.

Aba ni abantu bagera kuri batanu, urabona ko basa nk'abakuze bicaye imbere y'abandi, abagabo bane ndetse n'umugore umwe bose bambaye amakote y'umukara, amashati y'umweru.

Uyu mukobwa mwiza wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa ubururu yambye amadarubindi. Imbere ye hicaye abantu benshi bisa nkaho ari kubagezaho ijambo yabateganyirije.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze ahagaze imbere y'abantu benshi ari kubagezaho ijambo yabateguriye yambaye ikote ry'umukara, amadarobindi abengerana mu maboko ye afite igikoresho kifahishwa mu kurangurura amajwi.

umumama wicaye imbere ya mudasobwa iteritse kumeza wambaye isaha linete numupira w'ubururu kuruhande rwe hari indi meza iteretseho indi ikindi gikapu gisa ry'yumweru ndetse n'umukara

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe barakeye cyane bisa nk'aho bakuze ubitegereje neza, imbere yabo hari meza y'umweru iriho ururabo ndetse n'ibindi bitabo nabashije kumenya ibyo aribyo.

Aba ni abantu benshi, ubona ko basa nk'aho bari mu nama, bamwe muri bo bambaye amakoti meza y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, abandi bari kureba mu matelefone yabo, umukobwa ubona usa nk'ukiri mutoya, ari kwitegereza imbere ye.

Uko bigaragara kuri iyi foto yacu, turahabona abagabo benshi, bamwe muri bo bambaye amarineti, barakeye cyane, bisa nk'aho bari mu nama. Inama aba ari ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kubera ko ni byo bidufasha kugenda twungurana ibitekerezo byo kugira ngo twiteze imbere.

Imodoka n'amapikipiki biraparitse. Bitegereje gutwara ibintu n'abantu. Kugirango bibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Abantu barimo kugenda ku nkengero z'umuhanda, kugira ngo bibarinde impanuka.

Aba bagabo benshi bicaye ahantu hamwe ubona basanga n'abari kureba muri telefone zabo, umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu ishati y'umweru ndetse na karuvati irimo uturongo tugiye dutandukanye, afite ikirangurura amajwi mu ntoki ze ndetse yambaye n'amadarubindi.

Uyu ni umudamu mwiza cyane, wambaye ipantaro ijya gusa ubururu, ndetse n'ishati irimo amabara agiye avangavanze. Umwitegereje neza urabona ko yishimye mumaso he, yambaye amadarubindi.

Uru ni urubuga rw'Irembo rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rufasha abarukoresha kubona servise nziza zinogeye bitabasabye kuva aho bari, nawe rero nakugira inama yo kurugana kubera ko ni byiza bikurinda ingendo utateganyije kandi nyinshi.

Uru ni urubuga rwa televiziyo y'u rwanda, ruri kubashishikariza gukurikira ikiganiro cy'imisoro n'amahoro, uyu munsi ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwa cumi n'abibiri, bibiri na makumyabiri na kane guhera isaha z'umugoroba kuri televiziyo y'u Rwanda.

Iyi ni inzu nini bisa nk'aho ari isoko ririmo abantu benshi bari mubi bikorwa bigiye bitandukanye, ikikijwe n'igipangu cy'umukara hanze yayo hari ibinyabiziga by'ubwoko bwose.

Uyu ni umunara mwiza muremure, ku ruhande ukikijwe n'ibintu by'umweru ntabashije kumenya neza, ikirere kiratuje nk'uko bigaragara kirasa ubururu n'umweru. Ku ruhande gatoya hari amatara y'umweru awukikije.

Ifoto yacu turahabona umusore mwiza cyane, wambaye umupira w'umukara wanditseho irembo, yambaye amadarubindi, imbere ye hari murandasi nayo yanditsemo amagambo irembo.

Uru ni urubuga rwa leta y'Urwanda yashyizeho, aho ushobora gushakira akazi mu buryo bw'ikoranabuhanga butagoranye, bitagusaba kwirirwa wirukankana impapuro ujya gushaka akazi hirya no hino.

Ku ifoto yacu turahabona abantu babiri umudamu mwiza wicaye imbere ya murandasi yambaye amadarubindi meza yambaye agapira k'umweru imbere gatoya hari umugabo ufite agasatsi gashokoje neza cyane wambaye inkweto z'umukara ndetse n'agapira k'icyatsi.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, rw'ikigo k'igihugu cy'u rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro nawe rero ushobora kuba warwifashisha igihe ushaka kwishyura ibijyanye nabyo byose.

Ku ifoto yacu turahabona urubuga rw'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda. Ruratwereka kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ubumenyi n'umurimo unoze inkingi y'iterambere. Abatumirwa harimo MWAMBARIFaustin, BIRABONEYE Afurika ndetse na MUTAGOMBA felax.

Iki ni igipangu cyiza kiri mu mabara y'icyatsi, ndetse mo imbere yacyo, harimo inzu nziza igerekeranyije, yiganjemo amabara y'umweru. Ku ruhande gatoya rwayo, harimo ibiti bitanga umuyaga.

Ku ifoto yacu turahabona urubuga rw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'Urwanda, dore uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu wa bibiri na makumyabiri na gatatu ukoresheje telefone igendanwa.

Aba ni abantu benshi, ubona basa n'abari mu ishuri, bari kwiga ibijyanye na murandasi, kubera ko bose ni cyo gikoresho kibari imbere, hari abagabo babari ku ruhande, bahagaze, bambaye amakote y'umukara ndetse n'amashati y'umweru.

Iyi ni inzu nini igizwe n'ibirahuri byinshi by'umukara, isiza amabara y'umweru hasi gatoya izengurutswe n'ubusitani bwiza bukeye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Aba ni abantu bagera kuri bane ubona bose barangariye muri murandasi, barakeye cyane umwe muri bo yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'agapfukamunwa asa nk'uri kwerekera mugenzi we ku ruhande.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga. Ni ikigo cy'igihugu cy'URwanda gishinzwe imisoro n'amahoro; nawe rero wakwigereho ukabasha kubona buri kimwe wifuza ku rubuga rwabo.

Uru ni urubuga rw'ikigo cy'u rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro nk'uko bigaragara, rugaragaza ko hasigaye iminsi ibiri ntarengwa yo kuba wamaze kwishyura icyiciro cya gatatu cy'imisoro n'amahoro.

Uyu muntu tutabashije gusobanukirwa niba ari umusore cyangwa se ari umugabo, imbere ye ari gukoresha murandasi yambaye ishati irimo ibirongo ndetse n'ingofero y'igikinga, ku ruhande rwe kandi hari imeza ubona iteye neza cyane iriho ikindi kiganza.

Uru n'urubuga rw'irembo rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga nawe ushobora kubikoresha ubyikorera, mugihe ushaka serivise iyo ariyo yose itangwa na Leta, biroroshye kandi birizewe nanjye nakugira inama yo kubikoresha.

Ku ifoto yacu turahabona abakozi ba Leta bicaye imbere y'amamashini, barimo batanga serivisi ku bazigenewe, gutanga serivisi rero nziza kandi iboneye aba ari ingenzi mu kubaka igihugu cyawe, ugatanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyawe.

Ku ifoto yacu turabahabona bimwe mu bikorwa remezo, ni umunara ukikijwe n'ubwirinzi bubuza abantu bashobora kuza kuwangiza kuwugeraho biboroheye, ni umunara wifashishwa mu gushakisha itumanaho mu buryo bworoshye ridacikagurika.

Imbere yacu turahabona abantu bicaye mu buryo butandukanye bari gukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi, nanagushishikariza kuba wakoresha ubu buryo kubera ko bugufasha kugenda wunguka ubumenyi bumwe na bumwe mu bintu utaruzi kandi bitakugoye.

Uru ni urubuga rwashyizweho n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ushobora kugaragariza impano yawe ugatsindira agera kuri miliyoni y'amanyarwanda, dore ibihangano icumi byahize ibindi muri iri rushanwa ni ibi bikurikira.

Iri ni irembo hirya handitse byikorere, intambwe ya kabiri kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Ibisabwa usabwa kuba ufite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka hejuru ya cumi n'umunani, abasaba bagomba kugira nomero ya telefone cyangwa se aho batuye n'ibibaranga byose.

Uru ni urubuga rukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi ni urw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro nakugira inama rero yuko nawe wajya urukoresha bitagusabye kuva aho uri kuko nibyo byakorohera.

Imbere yacu turahabona urubuga rwa leta y'u rwanda, rugufasha kuba wasabiraho akazi mu buryo bw'ikoranabuhanga, bitagusabye kujyana impapuro hirya no hino, uzenguruka n'uburyo bworoshye kandi buba bwizewe.

Uyu ni umunara muremure usize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ukikijwe ku ruhande na senyenge zikingira abantu bashobora kuza kuwangiza ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo ya emutiyene.

Iyi ni inzu ntoya yubatse mu buryo bwo kurinda umunara urimo imbere w'icyatsi, ikindi ukikijwe n'ibiti birebire kandi binini bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi muri ako gace.

Ifoto yacu turahabona abantu benshi basa nkaho bari gukoresha ikoranabuhanga, umwe muri bo afite telefone mu ntoki ndetse n'undi afite imashini cyangwa se mudasobwa ari gukoresha mu bikorwa bya leta.

Uyu ni umunara muremure wifashishwa mu gukwirakwiza umuyoboro w'itumanaho, ukaba ufasha abawukoresha kubasha kumvikana, kuvugana bidacikagurika.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

iyi ni inzu nini igerekeranyije, ifite amabara agiye atandukanye higanjemo umukara ndetse n'umweru, imbere yayo hari ipoto rirerire rifite insinga ubona zigenda zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Imbere yacu turahabona umuzingo w'insinga zifashishwa kugira ngo zikwirakwize amashanyarazi mu baturage bikaturinda ndetse n'impanuka z'abantu bagenda bafatwa namashanyarazi kubera ko ni insinga ziba zitwikiriye ku buryo niyo wakoraho ntakibazo ushobora guhura nacyo.

Umugezi w.amazi, igikoresho bakoresha bashyiramo amazi. Giteretse ku meza. Iruhande rwacyo hari umwenda uri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Imbere yacu turahabona itara riri ku muhanda ni itara rifasha kumurikira abagenzi ndetse n'abakoresha uwo muhanda bose mu gihe k'ijoro, ibi ni ibikorwa remezo bya leta.

Iri ni ipoto rirerire ritanga umuriro w'amashanyarazi nk'uko bigaragara hacomekanyijeho insinga nyinshi zijya mubaturage, hepfo gatoya hari ubusitani ndetse n'inzu ndende igerekeranyije, ikurikiwe n'ibiti birebire bitanga akayaga.

Izi ni inzu nini zifite igipangu kirekire inyuma yacyo hari ubusitani bugaragara bubereye amaso rero nawe nakugira inama yuko wajya utunga ibintu nk'ibi kubera ko bigufasha mu bijyanye n'imihumekere y'umwuka mwiza.

Ahabereye ibikorwa byo kwamamaza. Abantu benshi bafite darapo mu ntoki, bambaye ingofero y'umutuku, haruguru hari icyapa cyanditseho ngo umuturage ku isonga. Hari n'ayandi mazu hakurya.

Uyu mugabo yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro ijya gusa ubururu urabona ko ahantu yicaye asa nk'uri mukazi, ku ruhande hari imifuka y'umweru itangira ibyo bitaka kugira ngo bitangirika bikaba byagwa mu busitani.

Uyu ni umunara ufasha abawukoresha kuba bahanahana amakuru mu buryo butabagoye kandi bwihuse, iruhande rwayo ukikijwe n'ibiti bibiri binini kandi birebire by'icyatsi bitanga umuyaga.

Ibi ni ibikorwa bya leta biratwereka umunara wubakiye birinda abaturuka ku ruhande, kuba bakangiza ibikoresho bigize uwo munara ndetse n'umunara ufasha abaturage kuba bakoresha umuyoboro w'itumanaho mu buryo bwihuse kandi butagoye.

Imbere yacu turahabona umuhanda mwiza cyane w'umukara, usizemo amabara y'umweru, ndetse n'umukara, harimo abagabo ndetse n'abakobwa ubona bari kugenda bishimye cyane, umuhanda ukikijwe n'ibiti ubona bitanga akayaga keza n'amahumbezi.

Iyi ni iminara ifasha abayikoresha kubona umuyoboro mwiza w' itumanaho mu buryo budacikagurika, ikindi kandi hejuru yawo hari ikirere kiza ubona gikeye cy' umweru ndetse n' ubururu.

Uyu ni umunara muremure wifashishwa mugutanga umuyoboro w'itumanaho ryiza ridacikagurika, iruhande rwaho hari ubusitani burebure ubona, kandi hari inzu nini cyane yo mubwoko bwa etaje igerekeranyije.

Aba bantu benshi bicaye ahantu hamwe ubona bakurikiye bose bareba imbere higanjemo abagabo bakuze ndetse n'abadamu bakuze basa nk'abaje kwivuza kubera ko imbere yabo hahagaze umuganga.

Imbere yacu turahabona abantu benshi cyane bicaye begeranye. Uko bigaragara basa nkaho bari ahantu kwa muganga baje gufata amabwiriza y'umuganga cyangwa se ubwabo baje kwivuza.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo bwiza butoshye bw'icyatsi hejuru gato yabwo hari inzu yo mubwoko bwa etaje, ku ruhande ari ibinyabiziga bigiye bitandukanye birahagaze bunabereye amaso.

Uyu mugore mwiza wambaye itaburiya usa nk'aho ari mu kazi k'ubuganga ku ruhande rwe, kandi hicaye undi mubyeyi, usa n'ukuze wambaye ikintu ntabashije kumenya iruhande rwabo kandi hari ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga.

Iyi n'inzu nini yo mubwoko bwa , etaje iragerekeranyije isiz' , amabara y'umweru yiganjem' ubururu, iruhande rwayo har' ibiti birebire by 'icyatsi bitanga umuyaga ndetse n' amahumbezi.

Ku ifoto yacu turahabona inzu nziza igerekeranye, iruhande rwayo hari ibiti ubona bitanga akayaga ndetse n'amahumbezi, si ibyo gusa kandi imbere y'iyo nzu haparitse amamodoka meza cyane ubona akeye.

Ikirere kiratuje, urabona ko hasi gisa nk'icyarekuye imvura hari imodoka nyinshi, imwe muriyo ni umutuku indi n'umweru ni umukara kuruhande hagaze umugabo usa nkushinzwe umutekano w'ibyo binyabiziga.

Turabona imodoka nziza cyane nyinshi ziri ahantu hamwe ndetse imbere yazo hari inzu nini cyane igiye igerekeranyije, ku ruhande rw'iyo nzu hariho ibendera ry'igihugu cy’u Rwanda.

Higanjemo abagabo bane, babiri muribo bambaye kositime z'umukara amashati y'umweru. ndetse umwe ni karuvate y'umutuku undi ni iy'umweru irimo utudomo ku ruhande gatoya hari abashinzwe umutekano.

Ku ifoto yacu turahabona abadamu bageze kuri batatu, babiri ni abapolisi bafashe umwe utambaye imyenda ya gipolisi, ku ruhande gatoya hari umugabo wambaye amarinete ndetse anacigatiye ibitabo mu maboko ye.

Aba ni abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe, basa nk'aho bakuze, urebye ku mazi yabo bambaye amadarubindi, umwe muri bo yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, urabona ko umusatsi usokoje bakeye cyane.

Ku ifoto yacu turahabona ibyapa bibiri kimwe cyanditse mu rurimi rw'icyongereza ikindi cyanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho handitse kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu, twibuke twiyubaka. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, gereza ya Nyamagabe.

Iki ni igipangu kinini kandi kirekire, gisize amabara y'umukara, hajuru yacyo hari icyapa cyanditseho Igororero rya Huye, mo imbere kandi harimo amazu menshi agiye adangukanye ndetse n'ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umugabo ubona yambaye imyenda y'imituku ndetse n'umukara, higanjemo ibara ry'umweru hagati mo imbere harimo ishati y'uturongo ndetse na karuvati ifunze neza cyane, urebye ku musatsi urabona ko usokoje ndetse ari kureba neza.

Ku ifoto yacu turahabona umugabo mwiza cyane, wambaye amadarubindi ndetse n'ikanzu iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ku maso ye haragaragaza ibyishimo kubera ko ari guseka.

Abantu batatu, bagaragara nkaho ari abagabo, bambaye impuzankano ijya gusa, bari imbere y'igipangu cy'umukara ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo "Gereza ya Nyarugenge", ubona ari kirekire cyane mu buryo bukabije.

Uyu mugabo mwiza wambaye ikanzu yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umweru mukeya imbere ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda urabona ko ahagaze yemye ndetse ari kugira ijambo ageza ku bandi bantu.

Ku ifoto yacu tuhafite umugabo mwiza cyane, agasatsi kiwe karasokoje neza, ikindi yambaye amadarubindi, ikote ry'ubururu harimo ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye ikanzu y' umutuku irimo umweru, imbere gatoya harimo ishati y' uturongo umwitegereje neza urabona ko ari umuntu wiyubashye ku maso yiwe n' akazi akora kabigaragaza.

Uyu mugabo wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'umweru, ubona ko ari mu kazi kiwe ka buri munsi, yambaye ingofero y'umukara irimo uturongo tw'umuhondo, urebye mu maso ye urabona ko yishimye ndetse ari kuganira.

Ku ifoto yacu turahabona abantu benshi cyane bakeye, bambaye impuzankano y'umukara bisa nkaho ari abapolisi b'Igihugu cy'u Rwanda kubera ko bambaye impuzankano yo amadarapo y'Igihugu cy'u Rwanda ndetse bacigatiye imbunda mu maboko ya bo.

Ibi n'ibikoresho bibiri byifashishwa mukuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye bitunguranye nawe rero nakugira inama yuko waba ugifite iwawe ukazabasha kugikoresha igihe ibyago nkibyongibyo byakuziye .

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umweru ndetse n'umukara, hirya gatoya hari ubusitani ndetse n'abantu bari kugenda, ubona bishimye, inyuma yabo hari ibiti binini.

Imbere yacu turahabona igishushanyo kiriho ibimenyetso bya Polisi y'igihugu y'u Rwanda akarere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo, ushaka kubahamagara wabahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani magana atatu na cumi nari rimwe ijana na mirongo itandatu n'umunani.

Ifoto yacu turahabona imodoka zigiye zitandukanye, imodoka iri imbere y'inzu ndetse inyuma yayo hari igiti kinini cyane ubona gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bakoresha icyo kirere.

Aba ni abantu babiri ntari kubasha kumenya niba ari abagabo cyangwa se ari abagore bambaye imishanana isa bahagaze imbere y'ikinyabiziga cy'umweru ndetse n'imodoka, hafi aho hari umuhanda wa kaburimbo w'umukara.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro nawe rero nakugira inama yo kukigura ukaba wagitunga iwawe kubera ko cyakugirira akamaro igihe uhuye n'insanganya nk'izongizo.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa igihe hateye inkongi y'umuriro bigafasha kuzimya nawe rero nakugira inama y'uko wakigura ukagitunga iwawe kubera ko burya nta wumenya igihe ibyago nk'ibyo ngibyo biteye.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda aho biherereye mu karere ka Huye tukaba turi kubonaho ibyapa biyobora abarwayi bikaba biborohereza kumenya aho bagomba kujya bitewe n'uburwayi bafite.

Ibi ni ibinyabiziga bikoresha mu gutwara abantu mu buryo rusange ndetse hicayeho abagabo bagiye batandukanye, imbere yabo hari ushinzwe umutekano usa nk'uri kuberekera abagira inama y'uburyo bakoresha umuhanda.

Uyu ni umukobwa ubona wishimye mu maso ye nk'uko abigaragaza ari guseka, afite icy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu kurangurura amajwi, ndetse yambaye ikanzu y'umutuku, agasatsi ke karasokoje n'amaherena y'umweru.

Aba ni abantu benshi bambaye impuzankano ijya gusa urabona ko basa nk'abakuze kandi bakeye, ku byapa byabo bafiteho ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu umudugudu wa radari tuzamutora ijana ku ijana.

Aba ni abantu batatu, umwe muri bo asa nk'ukuze, ni umudamu wishimye afite umwana mu ntoki, hari undi uryamye wambaye ibintu by'umweru bisa nk'aho ari kwa muganga, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango, ni amagambo yanditse ku cyapa cyamamaza baherereyeho.

Iyi ni inzu nini nk'uko bigaragara bisa nk'aho yagenewe kuberamo inama. Yicayemo abantu bagiye batandukanye bakeye ku ntebe nziza, imbere yabo bose hari murandasi zikoresha ikoranabuhanga, ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi ubona ko bishimye ku maso habo, bicaye ahantu hamwe bamwe muri bo bafite ikayi n'ikaramu, bari kwandika basa nk'aho bakurikiye ibirikugezwaho n'uri kubabwira cyangwa se uri kubatangariza.

Ababantu biganjemo abagabo batatu ndetse n'abadamu batatu bambaye neza cyane amakote y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, na karuvate ziciyemo uturongo, bacigatiye ibitabo mumaboko yabo.

Aba n'abagabo batatu bahagaze ahantu hamwe ubona bakeye cyane bambaye neza umwe muribo ahagaze imbere y'igikoresho kifashishwa mukurangurura amajwi abandi baricaye bari kumva ibyo ari kubagezaho byose.

Aba ni abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo ubona basa nk'abakuze, bicaye ku ntebe siza umukara uko ari bose. Umwe muri bo yambaye ishati irimo uturongo, undi ni ikanzu ndende, ndetse n'amadarubindi.

Ihuriro ry'imihanda harimo umumotari utwaye umugenzi umunyonzi, ubusitani bw'indabyo, amatara yo kumuhanda, ibiti, hakurya hari inyubako zitandukanye.

Uyu ni umutegarugori ubona usa nk'udakuze cyane, umusatsi we urasokoje yo urabona ko bikeye yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara ishati yubururu n'agasaha keza cyane kabengerana.

Aba ni abantu benshi ubona bari hamwe, higanjemo abakuze ndetse n'urubyiruko n'abana bakiri bato, hirya yabo hari undi mugabo uhahagaze wambaye umweru, ubona asa nk'uri kugira ijambo abagezaho.

Nk'uko bigaragara ku ifoto, turahabona umugore mwiza ndetse n'umugabo mwiza bambaye neza cyane urabona ko baberewe, umugabo yambaye ikanzu ndetse inyuma arenzaho ikote, yambaye amarinete meza ndetse n'ingofero nziza, bose urabona ko bafashe ku idarapo bameze nk'abantu bari kurahira.

Uyu mugabo ubona afite terefone ye mu ntoki asa nkaho ari gufata amashusho, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru na karuvati nziza cyane urabona ko umusatsi we usokoje kandi yicaye ku ntebe nziza.

Uyu mugabo ugenda neza wambaye ikote ryiza, mo imbere arimo ishati y'umweru ndetse n'amadarubindi y'umukara, umusatsi we urasokoje. Urabona ko atambuka mu mbaga ni umukuru w'igihugu cy'Urwanda.

Aba ni abantu benshi ubona higanjemo abakozi, abagore, ndetse n'abagabo bahagaze ahantu hamwe bisa nk'aho bari gufata amashusho runaka, bamwe muri bo bambaye amakoti y'umukara, abandi bambaye imishanana.

Ni igishushanyo kiriho amafoto agera kuri atatu yanditse amagambo indi ntambwe ndetse nandi, Mpayimana Philippe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ni igishushanyo cyiza cyane kibereye amaso nawe nakugira inama yo kujya ukoresha ibi bishushanyo.

Aba ni abagore ndetse n'abagabo barimo bararahirira igihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano zibahaye bazazikora neza kandi n'imbaraga zabo zose kandi banyujije mu kuri, bafashe ku mabendera y'u Rwanda bazamuye akaboko k'iburyo buri wese afite indangururamajwi imbere ye, arahirira u Rwanda ku mugaragaro yuko inshingano igihugu kimuhaye azazikora neza kandi ntagamiye nabirengaho azahanwe.

Aba ni abantu ubona bishimye ku maso yabo kuko ubitegereje neza urabona bari kubyina basa nk'aho bakuze kandi higanjemo abadamu benshi ndetse n'umugabo bose bafite amadarapo yanditseho efupere.

Ku ifoto yacu turahabona abantu benshi cyane barakeye bari ku murongo, iruhande rwabo aho bahagaze hari ibiti bibakikije birebire cyane ubona birimo bitanga akayaga aho hantu baherereye.

Umuhanda w'umukara irimo ibinyabiziga bishinzwe gutwara anagenizi inyabiziga bikaba bifite ibara ry'umweru imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye agapira kajya gusa umweru n'ipanaro ijya gusa ubururu.

Iyi ni imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo irasa umweru, amapine ni umukara, iri mu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire binini, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bakoresha aho hantu bose.

Iyi ni imodoka nini cyane kandi ndende y'umweru iri mu mabara y'umukara nk'uko bigaragara iri mu muhanda irerekera ifite urugendo iruhande rwayo hari ibiti birebire bitanga amambezi ndetse n'umuyaga.

Iyi ni moto y'amapine atatu isize irangi ry'ubururu, ku ruhande rwayo hariho ibiti binini kandi birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bakoresha uwo muhanda barimo,...

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara ndetse n'uturongo duciyemo tw'umweru harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara hagendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye moto, igare ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni imodoka nini kandi ndende, iri mu mabara ry'umweru inyuma itwaye imizigo myinshi ntabashije kumenya iyo ariyo, muri uwo muhanda kandi harimo ibiti birebire bitanga umuyaga, ndetse n'amahumbezi.

Icyapa kiri mu amabara y'umweru handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'ama mabara y'umuhondo, n'andi arimo ibara ry'ubururu ndetse n'indi mibabara y'umutuku.

Ikinyamakuru cya banki yo mu Rwanda yitwa ekwiti kivuga ibijyanye no gufata inguzanyo muri iyo banki ingana na miliyoni mirongo ine cyangwa arenga, gishushanyijeho umugabo uri mu kazi wambaye itaburiya y'akazi.

Imbere yacu turahabona imodoka nziza cyane, imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni byiza rero gukoresha ubu buryo ukora urugendo, kubera ko bigufasha kugerayo vuba kandi utekanye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwakaburimbo usizemo amabara y'umukara uri kugendamo imodoka itwara imizigo igizwe n'icyatsi hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi aho hantu.

Iyi ni imodoka ndende kandi nini itwara imizigo iri kugendera muri kaburimbo y'amabara y'umukara, ikikijwe kandi n'ibinyabiziga bitandukanye harimo igare ndetse n'ibiti biri ku ruhande birebire ubona bitanga imiyaga n'amahumbezi muri ako gace.

Ifoto yacu turahabona imodoka nini cyane imbere yayo iri mu mabara y'umweru ndetse inyuma nIiamabara y'ubururu avanze n'umweru aho ihagaze ni mu muhanda w'ibitaka hejuru hari ibiti birimo bitanga akayaga.

Nk'uko bigaragara uyu ni umuhanda ni amasaha ya nijoro, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byose byamaze kwatsa amatara yabyo, kimwe muri ibyo binyabiziga ni imodoka y'umweru bigaragare ko ihagazeho umugabo wambaye akantu k'icyatsi.

Iyi ni imodoka nziza cyane ifite amabara y'ubururu inyuma yayo gatoya hari inzu y'ibirahure by'umukara igerekeranyije ikindi kandi kuruhande harunze amakaziye menshi yiganjemo amabara y'umutuku.

Iyi ni moto y'amapine atatu nkuko bigaragara isize amabara y'ubururu, mo imbere harimo umugabo utwaye, ndetse ku ruhande gatoya hariho nomero ushobora guhamagara uramutse ubifuje, si ibyo gusa muri uwo muhanda hari ibiti binini bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda munini mwiza cyane, w'umukara urebye neza ku ruhande hari ibiti biwukikije birebire, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi kubawukoresha hagati harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Iyi ni imodoka nziza cyane kandi nini iri mu mabara y'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu hejuru ikikijwe n'ibirahure by'umukara abayirimo urabona ko bishimye cyane ku ruhande rwayo gatoya kandi hari ibiti bitanga amahumbezi ndetse n'akayaga.

Iyi ni imodoka izwi ku izana rya twegerane, ifite amabara y'umweru ndetse n'ay'icyatsi, amapine yayo arasa umukara, ku ruhande gatoya hari abadamu babiri ubona bafatanye ku rutugu bishimye cyane.

Imodoka nini cyane, ifite amabara y'icyatsi n'umweru yanditsemo amagambo ritiko, urabona ko ikurikiwe inyuma n'ibindi binyabiziga, bigaragare ko umuhanda bari gukoresha ari nyabagendwa ugendwa n'abantu bose.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru. Haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abantu benshi, ku ruhande rwawo hari inzu nini igerekeranyijemo kabiri.

Ku ifoto yacu turahabona umugabo wambaye imyenda y'imikara, ku ruhande rwe gatoya kandi hari imodoka nini cyane, iri mu mabara y'icyatsi n'umweru. Uko bigaragara ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo w'umukara urimo ikinyabiziga cy'amapine atatu kiri kugenda. Ku ruhande hari ibiti birebire bibyibushye ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibi ni ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange byinshi muri byo byambaye amabara y'umweru, ndetse n'ibirahure by'umukara urebye neza kuruhande rwa byo hari umuntu uri gutambuka ufite indobo mu ntoki.

Ibi ni ibinyabiziga by'amapine atatu, bifite amabara y'uburu ndetse n'ibirahure by'umukara, nawe rero nakugira inama niba ufite ubushobozi, wanyaruka ukaba wakigura kubera ko gifasha mu bintu byinshi.

Imbere yacu turahabona umuhanda wa kaburimbo usa nkaho ari nyabagendwa kubera ko harimo umunyonzi utwaye igare ryiza cyane, ku ruhande gatoya turahabona umugabo wambaye neza cyane agashati kamubereye.

Iyi ni imodoka nini, isize amabara y'umweru, iri mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, hirya gato hari ubusitani ubona butoshye, bw'icyatsi, ku ruhande kandi hari ibiti birebire, bizamuye, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ni munini kubera ko uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba imodoka ndetse na moto iruhande rwayo hari inzu nini yo mu bwoko bwa etaje isize amabara igerekeranyijemo kabiri.

Ku ifoto yacu turahabona umugabo wambaye inkweto z'umukara n'ikote ry'umukara yicaye kuri moto inyuma ye bari gushyiraho imizigo ashobora kuba agiye gutwara.

Nk'uko tubibona ku ifoto iyi ni imodoka nziza ikoreshwa mu bijyanye n'urugendo rwa rusange, ifasha abaturage kuba bagera aho bashaka kujya ku gihe ndetse mu mahoro meza, mu mutekano usesuye.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ndetse n'ipantaro ijya gusa ubururu, urabona ko ari mu muhanda yigendera, hirya ye gatoya hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo moto ndetse n'imodoka nini cyane;

Turimo turabona ibikorwaremezo nk'umuhanda, ibiyaga, ibiti n'ubwo uwareba neza atitegereje yabona wagirango ngo byakundukiye mu mazi, ariko byatewe n'ifoto bafashe bigaragaza bisa nk'aho ibi biti n'amapironi byaguye mu nyanja cyangwa mu mazi. Ariko bari bagambiriye kutwereka ibikorwa remezo nk'imihanda, n'ibiti n'ibindi.

Iyi ni imodoka nziza cyane iri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, ihagaze muri kaburimbo umuhanda ushushanyijemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, nakugira inama yo kujya uyifashisha mu rugendo kubera ko igufasha kugera aho ushaka kujya byihuse kandi vuba.

Iyi ni imodoka nini igizwe n'amabara y'umweru, amapine y'umukara iri mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, hirya gatoya ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahakoresha bose.

Iki ni ikinyabiziga kinini amabara yacyo nicyatsi n'umutuku n'amapine y'umukara, kiri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire, ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Iyi ni imodoka nziza y'umweru bisa nkaho itwara abagenzi, urebye ibirangantego byayo biyiriho, ifite amatara y'umutuku iri muri kaburimbo y'umukara, ishushanyijeho uturongo tw'umuhondo.

Iyi n'imodoka nini nziza cyane ifite amabara y'ubururu ndetse na y'umweru ikagira ibirahure by'umukara bigaragare ko itwara abagenzi mu buryo bwa rusange nakugira inama yuko nawe wajya ukoresha urugendo iyi modoka kubera ko igerayo byihuse.

Iyi ni imodoka nziza cyane y'umweru Kandi nini ifite amapine y'umukara, imyuma yayo gatoya urabona ko hapakiyemo imizigo. Nawe nagushishikariza niba ushaka kuva ahantu hamwe ujya ahandi ufite ibyo wimukana yuko wajya uyikoresha Kuko biba byoroshye.

Ku ifoto yacu turahabona ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka nini cyane itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse hari na moto, ikindi kandi hari abantu benshi bari kugenda n'amaguru.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo igare ndetse na moto ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Imbere yacu turahabona abantu benshi bicaye ahantu hamwe, basa n'abari kota izuba, bicaye batuje. Abantu bake cyane, mu maso yabo urahabona ibyishimo, nyuma yuko bubakiwe na Leta, akantu kabafasha kubakingira izuba.

Aha ni ahantu heza ubona hari ubusitani bunini hari utuzu duto duto tugiye dutandukanyedi hari ibishushanyo byiza ndetse hari n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni icyapa kiranga amerekezo kiri mu mabara y' umweru yivanzemo umukara hirya yacyo hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n' amahumbezi, hasi yacyo hahagaze ikinyabiziga zisa ubururu.

Ku ifoto yacu turahabona umuhanda mwiza cyane, iruhande rwawo hari ibyatsi ndetse ushushanyijemo amabara y'umukara n'umweru, harimo moto ebyiri zirimo zigenda, hirya gato hari ibiti binini cyane bigeze mu kirere, ubona birimo bitanga amahumbezi muri icyo gice.

Nk'uko bigaragara uyu ni umuhanda mwiza wa kaburimbo ushushanyijemo amabara y'umukara n'umweru, ikindi kandi ni nyabagendwa ukikijwe n'ibiti ku ruhande byinshi cyane, bitanga akayaga ndetse n'amahumbezi ku bakoresha uwo muhanda.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ufite amabara yiganjemo umukara n'umweru kuruhande rwawo gatoya hari ibiti birebire binini kandi byiza, ibi ni bimwe rero mubitanga umuyaga ndetse bikadufasha guhumeka umwuka muzima.

Ibi ni ibyapa biranga amerekezo byiganjemo amabara y'umweru, ndetse n'amagambo yandikishije umukara, biri mu kirere iruhande rwabyo hari ibiti binini ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni icyapa kiburira abakoresha umuhanda batwaye ibinyabiziga kugabanya kugeza muri mirongo itandatu; kandi hari ibifata amashusho imbere yabo, bagomba kugenda bitwararitse badahura n'ibibazo.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda kiburira abakoresha uwo muhanda ko imbere gatoya hari ahambukirwa n'abanyamaguru ni byiza ko twese twamenya amategeko y'umuhanda.

Iki ni icyapa kiranga amerekezo kigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'amagambo y'umukara. Gikikijwe n'ibiti binini by'icyatsi birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi kubatuye muri ako gace.

Icyapa kigaragara mu mategeko y'umuhanda, cyerekana ko aha hantu nta modoka ndende ikwiye kuhanyura, nagushishikariza rero nawe kwiga amategeko y'umuhanda, kuko bigufasha kumenya ibyo utagomba kwica, igihe uri gukoresha umuhanda rusange.

Iki ni icyapa kimanitse ku muhanda cyiganjemo amabara y'umweru, ndetse n'ubururu ahantu ki hari ubusitani bunini kandi bugaragara hirya yacyo, hari inzu igerekeranyije mo gatatu.

Ku ifoto yacu turahabona igishushanyo kigaragaza icyapa gikoreshwa mu muhanda, ni ingenzi rero kwiga amategeko y'umuhanda kubera ko bigufasha gusobanukirwa neza ibikugenga, mbere y'uko utangira gukoresha uwo muhanda uba uhuriyemo n'abandi bantu benshi.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amarange y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ibiti binini birebire kandi bitanga akayaga keza ku bakoresha uwo muhanda wa Kibugabuga.

Iyi ni inzu nini cyane igerekeranyije kabiri nk'uko bigaragara igizwe n'ibirahuri by'umukara ndetse n'amabara y'umweru hasi gatoya hari icyapa cyamamaza ibijyanye n'imikino y'amahirwe.

Iyi ni inzu nziza iri mu mabara y'umweru, ibirahure by'umukara, ifite ubusitani imbere yayo ndetse n'ibiti birebire bitanga amahumbezi, si ibyo gusa harimo imodoka nyinshi zicaracara aho.

Aya ni amazu menshi afite amabati agiye atandukaniye ku mabara, imbere yayo hari ubusitani bwiza butoshye kandi hari ibiti birebire ubona biherereye aho, bitanga amahumbezi ndetse n'umuyaga.

Iyi ni inzu nziza kandi nini igerekeranyije iherereye i Remera munsi yayo huzuye abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bibiri nawe rero nagushishikariza niba ugiye gukora ubucuruzi ko wagana ahantu nkahangaha.

Uyu n'umuhanda muremure w'igitaka ugendamo abantu bagiye batandu ndetse n'ibinyabiziga byinshi hari n'imodoka moto ukikijwe n'ibiti birebire bibyibushye ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini ifite igapangu kirekire gisize amabara y'umweru igizwe n'ibirahure impande zose by'umukara hanze yayo ifite ubusitani bwiza butoshye ndetse n'ibiti bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, iruhande rwayo hari igipangu gikeye cyane kirimo ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga, ndetse n'inzu igerekeranyijemo kabiri.

Aha ni ahantu hanini heza haherereye amazu agiye atandukanye, harimo ayo mu bwoko bwa etage agerekeranyije ndetse n'andi asanzwe, huzuye ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Izi ni inzu nini zigerekeranyije zo mu bwoko bwa etage ni nziza cyane nk'uko bigaragara zimwe muri zo zisize amabara y'umweru zijya gusa zose iruhande rwazo hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza igerekeranyije inzu iriho imiryango minini cyane, ndetse n'amadirishya manini cyane, isize amabara agiye atandukanye harimo umweru umukara, ikindi kandi hepfo y'iyo nzu harimo ibiti ndetse n'ubusitani bwiza.

Ni inzu nziza ubona igerekeranyije, isize amabara y'umweru, iruhande rwayo hari ibiti binini, birebire, ubona bitanga amahumbezi ndetse n'akayaga. Nawe nakugira inama niba wubatse inzu ko watera ibiti ku ruhande rwayo kugira ngo ujye ubasha guhumeka umwuka mwiza.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'umweru, inzugi n'amadirishya ni umukara izengurutswe n'ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho ngaho bose.

Ku ifoto yacu turahabona menshi cyane, kandi agerekeranyije, si ibyo ku ruhande rwayo hari ibiti byinshi cyane birebire ubona bitanga umuyaga, ndetse n'agahumbezi.

Aya ni amazu manini kandi maremare yo mu bwoko bwa etaje, amwe aba agerekeranyije, iruhande rwayo akikijwe n'ibiti binini byiza by'icyatsi ,ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku batuye aho ngaho bose.

Aya ni amazu meza afite igipangu cy'umukara giteyeho ubusitani inyuma, uyarebye neza urabona ko agerekeranyije kandi bibereye amaso ya buri muntu wese ubasha kubireba, nawe rero nakugira inama niba ufite ubushobozi ko watura ahantu nk'aha kuko haba heza cyane.

Iki ni igipangu kinini kandi kirekire mbere yacyo urabona ko harimo amazu meza abereye ijisho ndetse n'ibigega by'umukara, nakugira inama ko nawe wajya wifashisha ibikoresho nk'ibi igihe wubatse iyawe.

Ahantu hanini cyane, harimo amazu agiye atandukanye, amabara y'ubwoko bwose, ikindi kandi hari ibiti bitanga umuyaga birebire n'amahumbezi, hari abamotari ubona batwara abagenzi.

Uyu ni umuhanda rusange ukikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza ubona bitanga amahumbezi hagati yawo harimo imodokado zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose ndetse n'amagare ubona ko abawukoresha bishimye cyane kandi bisanzuye.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'umuhondo n'uturongo tw'umweru haracamo abantu bagiye batandukanye bambuka babanje kureba hirya no hino.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'umweru, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ku ruhande hari ibiti birebire binini ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda mwiza wa kaburimbo, ni nyabagendwa urebye neza harimo imodoka nini cyane, ubona iri ku rugendo iruhande rwawo hari ibiti birebire kandi binini byinshi cyane, ubona bitanga akayaga ndetse n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni muhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usizemo amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, iruhande rwaho hari ibiti byiza by'icyatsi ubona bitanga umuyaga.

Imbere yacu turahabona umuhanda mwiza cyane wo mu buryo bwa kaburimbo, hafi aho turahabona ibiti bitanga amahumbezi bigafasha abakoresha uwo muhanda kuba bagira ubuzima bwiza ndetse n'imihumekere myiza.

Uyu ni umuhanda munini w'igitaka kandi muremure imbere yaho gato hari undi wo mu bwoko bwa kaburimbo w'umukara urimo imodoka y'umweru kandi ukikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bakoresha ako gace.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ufite amabara y'umukara ukikijwe nibiti birebire byiza kandi by'icyatsi mo hagati harimo umunyonzi uri gutwara igare.

Ku ifoto yacu turahabona ikiraro cyiza cyo mu kirere, munsi yacyo hacamo umuhanda mwiza w'umukara, ndetse no hejuru hemerewe guca abantu kubera ko naho ni inzira nyabagendwa.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ahantu hose, ndetse n'uturongo tw'umweru tugiye ducamo uduce duce, hirya gato hari ibiti birebire bizamuye ubona bitanga umuyaga, ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo ushushanyijemo amabara y'umukara ndetse n'umweru, kuruhande hari umuhondo ndetse hirya gatoya hateye ibyatsi ubona bitanga amahumbezi, si ibyo gusa kandi muri uwo muhanda harimo ibiti byinshi cyane bitanga akayaga iyo gakenewe ndetse n'amamodoka.

Uyu ni umuhanda mwiza uri mubwoko bwa kaburimbo busize amabara y'umukara, uturongo tw'umuhondo ndetse n'umweru, kuruhande ukikijwe n'ubusitani bwiza, hazamuyemo ibiti birebire ubona bitanga akayaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane ushushanyijemo amabara atandukanye, harimo umukara ndetse n'umweru ku ruhande gatoya hari icyapa kigaragaza ko hafi aho hari ikigo cy'amashuri, ndetse n'umuhanda ukikijwe n'ibiti binini bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda munini yo mu bwoko bwa Kaburimbo usize amabara y'umukara yivanzemo uturongo tw'umweru, imbere yayo hari ubusitani buyizengurutse ubona hirya ubona hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ukikijwe n'amatara maremare y'umweru ndetse n'ubururu, ku ruhande kandi ari ibiti binini cyane ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, avanzemo umuhondo ndetse n'umweru kuruhande hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi kubawukoresha bose.